Abagabo barindwi bicaye ku ntebe z'umukara hirya hakaba hari izindi zifite ibara ry'umuhondo n'umweru, imbere yabo hari ameza y'umutuku, buri wese akaba afite agacupa k'amazi y'inyange, ndetse na mikorofone kuruhande n'agakayi na terefone.

Inama yicayemo abantu barindwi: abadamu batatu n'abagabo bane, irimo icyapa cyanditseho amagambo y'umweru kiri mu ibara ry'ubururu; ndetse buri wese akaba afite agacupa k'amazi y'inyange imbere ye, bicaye ku ntebe by'icyatsi n'umuhondo.

Umumama uhagaze wambaye ikoti ryiganjemo ubururu kuruhande hariho n'andi mabara atandukanye, imbere ye hakaba hambayemo umwenda ujya gusa umweru, ufite mikorofone mu ntoki usutse bimuryamye ku mutwe inyuma ye hari icyapa kirimo amagambo atandukanye ndetse n'akameza kamuri iruhande ka shokola.

Umuntu umwe w'inzobe wateye kata y'umutuku mu mutwe ugaragara mu mupira w'ubururu, uriho akadarapo k'u Rwanda n'abandi basore bambaye muboko hari n'uwambaye agapira k'umukara imbere yabokaba hariho ameza buri wese hateretseho uducupa tw'inyange twamazi rwose, bakaba bicaye ku ntebe z'umuhondo hariho n'uwashyizeho ikote ritagaragara ibara.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo abagabo n'abagore bambaye amakoti y'ubururu n'umukara ndetse n'abambaye umweru, hari abafite amabara y'umutuku babiri hari uwambaye pinki, icyatsi, umuhondo benshi bambaye kandi utuntu tw'icyatsi mu ijosi tujyamo amakarite hari abambaye n'amarinete.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bambaye amabaje, harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, hari n'undi ufite rinete mu ijosi bafite ibitabo abafite amasakoshi hirya yabo hariho icyapa cyerekana ingingo zitandukanye bari barimo baraganiraho.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba kimwe gisa nk'aho gikorerwamo inama harimo babiri bambaye rinete n'umwe wambaye ikoti agacupa k'amazi gateretse ku meza ari imbere yabo ndetse n'akandi karimo sanitayiza, mashine raputopu, inyuma icyapa kiriho amagambo mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Batanu bicaye imbere y'icyapa kiriho ibirangano bya minisiteri zitandukanye urugero nka arajibi, harimo aba mama batatu n'abagabo babiri, bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hakaba hari indabo ndetse hirya yaho hari n'abandi bantu bicaye ku ntebe z'imikara umumama umwe n'abagabo babiri.

Ni benshi bicaye mu ihema ry'umweru harimo abagabo n'abagore, imbere mu ntebe z'umukara iz'umuhondo, hari uwambaye ingofero, agapfukamunwa k'ubururu ishati y'umwera ndetse n'imikenyero yiganjemo icyatsi n'umuhondo, hari undi wambaye ishati ijya gusa move n'abandi bambaye rinete babiri bafite terefone mu ntoki ndetse na tabulete.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama kimwe kirimo amarido meza, bagiye bakikije imeza ari benshi kuruhande rumwe n'urundi, bicaye kuntebe z'umukara niz'umweru haba harimo uwambaye agapira k'umutuku, ijire y'umuhondo, umupira w'ubururu ndetse hirya hari n'icyapa cyanditseho amagambo bari kuganiraho muri iyo nama.

Mu mabara y'umuhondo hagati muri zajye harimo utubati tw'umweru mumama kuruhan wambayey'umukara afite mikorofani mu ntoki ikiganza cy'iburyo gitunze ku cyapa kiriho kiriho amagambo menshi atandukanye n'ibyapa bitandukanye harimo n'idapo ry'u Rwanda ejegiteri yayo iri kumurika mu magambo yumukara n'umuhondo mbere yicaye abagabo babiri.

Icyumba kimwe cy'inama kirimo abantu benshi bateranye bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abagabo n'abagore, umukameramani umwe wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara afite kamera mu ntoki ndetse n'icyapa kirimo amagambo bari kuganiraho ku ngingo n'undi mugabo uhagaze afite mikorofone wambaye ishati y'umukara .

Benshi bicaye mu cyumba cy'inama hari irange ry'umweru, buri wese yicaye mu ntebe y'umukara ndetse imbere yabo hari imeza manini y'umutuku ahazengurutse, buri wese yashyizeho terefoni ndetse hari n'abayifite mu ntoki.

Bari mu cyamba kimwe cyirimo amabara y'umuhondo bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bakaba bakikije ameza buri wese mbere hakaba hari urupapuro n'ikaramu n'agacupa k'amazi y'inyange bamwe na bamwe hakaba hari na mashine za raputopu.

abantu b'ingeri zitandukanye bijira mu cyumba kimwe cy'inama harimo n'utubati amarido ndetse n'indi imeza isa shokora mu mu marido y'umutuku n'umweru harimo umuzungu mwa wamba rinete w'umugabo ufashe ku munwa imbere harimo impapuro zitandukanye z'umweru muducupa tw'amazi y'inyange harimo n'umumama umwe uhicaye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama kimwe bazengurutse ameza, imbere yabo hakaba hari amamashini ndetse n'amamikorofone, uducupa turimo amazi, inyuma hari icyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo atandukanye impande zose hari abakameramani ndetse n'imbere yabo.

Abantu benshi bateranye bicaye mu cyumba cy'inama. Harimo abagore n'abagabo batandukanye. Imbere yabo hakaba hari ameza manini agiye azengurutse, hateretseho amamashini, amaraputopu, abatayafite bakaba bafite telefoni imbere yabo n'udutabo two kwandikamo ndetse n'icupa ry'amazi y'inyange.

Abamama babiri ndetse n'umugabo bicaye ku ntebe z'umukara, harimo uwambaye linete ndetse n'imyenda y'umutuku irimo utuntu tw'umweru, imbere ya buri wese hari mikorofoni yo kuvugiraho, umugabo akaba yambaye ishati y'umweru, undi mu mama uri kuvugira kuri mikorofone ufite ikaramu mu ntoki ufite agacupa k'amazi imbere ye, yambaye akantu k'umukara mo imbere n'ikoti rya pinki.

Abantu benshi mu ngeri zitandukanye abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama kimwe kiri ibirahu gifite irangi ry'mweru, harimo ntebe z'umukara ha akabamo n'umugore umwe wambaye rineti ndetse n'ijiri y'umuhondo ariho umungo tw'umweru, ari kwandika hateretse amacupa y'amazi ku meza. Umugabo uhagaze iruhande rwabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umweru.

Sare yicayemo abagabo n'umumama umwe wambaye ishati y'umweru irimo amabara, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange, ku hande hari kamera isa nk'aho iri gufata, ndetse hirya hari n'intebe zifite amabara y'umutuku n'umuhondo.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama kimwe bakikije ameza afite irange ry'umutuku n'andi afite irange ry'umuhondo, imbere yabo buri wese hari mikolofone udafite laputopu mashini akaba afite terefone ya simati mu ntoki, uducupa tw'amazi imbere yabo.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'umukara harimo n'uwambaye ikoti ry'umukara ndetse n'uwambaye iry'umutuku umugabo wambaye ishati y'ubururu uri kuvugira kuri mikorofone inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umweru harimo n'irindi bara ry'icyatsi.

Abasore bicaye ahantu muri sale ku ntebe z'umuhondo inyuma yabo hakaba hari ibara ry'ubururu n'amarido ya shokora, harimo babiri b'ibikara bambaye imipira y'ubururu harimo n'ududarapo tu Rwanda, imbere ya buri wese hakaba hateretse icupa ry'amazi y'INYANGE hari n'undi ufite akantu karimo ikawa na telefone imbere ye.

Bagera ku icumi bicaye ku ntebe imwe bose bafite ibipapuro mu ntoki ndetse hakaba harimo aba mama bagera kuri batandatu n'abagabo bane, hakaba harimo umumama wambaye ikanzu ya oranje afite telefone uri kuyirebamo, inyuma ye kandi hakaba hicaye abandi bantu babiri.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe cy'inama, harimo abagabo n'abagore bambaye linete, ndetse bagera kuri bane, imbere yabo hari imeza y'umweru, hariho utudarapo tubiri dutangukanye, amacupa agera kuri ane, udukombe tw'uturahure twubitse ku meza, ndetse n'ufite agatabo imbere ye na telefone.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, bamwe bicaye ku dutebe bafite ameza yabo imbere ariho igitambaro cy'umweru ndetse na laptop n'uducupa tw'amazi ya Nile, abandi bafite ameza ariho igitambaro cy'umukara, ndetse hari n'ufite igikapu inyuma ye ku ntebe, hakaba hari n'undi uhagaze uri kubabwira.

Abagabo bagera kuri batanu bicaye ahantu hamwe harimo n'umuzungu, batatu muri bagabo bakaba bambaye rinete ku ntebe z'umukara ndetse n'utumeza turi hagati yabo, agacupa k'amazi kari kumwe ufite mikorofone munsi ye n'agakaye hejuru hari amatara atatu n'ururabo ruri k'uruhande.

Benshi b'ingeri zitandukanye bicaye muri sare imwe irimo amatara ari kwaka hejuru hatatsemo umweru ndetse hasi hakaba harimo ubururu, bicaye ku ntebe z'umutuku harimo abamama, abagabo ndetse n'abandi benshi bahagaze, imbere yabo hakaba hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo cyangwa se ingingo bari kugenda baganiraho.

Abagabo batatu bicaye, babiri muri bo bambaye amakoti y'umukara n'amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru, undi akaba yambaye irya kacye, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, imbere kandi hakaba hari akameza gateretseho uducupa tune tw'amazi, imbere na none hari uwundi uhahagaze, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki na mikorofone, bisa nk'aho inyuma hasigaye intebe yari yicayeho.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kimwe kiberamo inama harimo ndetse n'abambaye amarinete, umugabo ndetse n'umugore umwe bicaye mu ntebe nziza cyane zifite utuntu tw'umuhondo ku mpande ,zifite imisego ndetse hari n'ufite agakayi mu maguru na telefone mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama ku ntebe z'umutuku ndetse hakaba harimo n'amakaro ya shokora n'ay'umweru agiye harimo utuzu imbere, yabo bamwe hari ameza agiye hariho uducupa tw'amazi y'inyange, impapuro undi afite telefone, bafite amatabureti mbere yabo.

Benshi bicaye muri salle irimo igitambaro cy'umweru ndetse n'icyicyatsi, abenshi muri bo bambaye imipira isa orange iriho utuntu tw'umweru haba ibumoso n'iburyo, ndetse inyuma hakaba hari n'uwicaye yambaye ingofero y'umweru, hari uwambaye rinete ndetse n'akandi gatambaro kumweru mu mutwe n'umutuku, imbere ye hakaba hari n'ufite igitenge.

Urupapuro rw'umweruru rumwe rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi arimo tuntu dutandukanye, umuhondo; hejuru hariho akantu k'ubururu kanditseho andi, hepfo hariho imibare itandukanye igera kuri cumi n'umwe uhereye kuri rimwe kandi hepfo cyane hariho akantu ka telefoni na nimero wahamagara, Fesibuke; hirya hariho akarangantego ka Rwanda reveni otoriti ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Abagabo bane bicaye bose bambaye amashati y'umweru hari n'uwa mbaye mo karokaro bafite ama terefone mu ntoki ,harimo ibintu bisa ubururu ,amaraputopu(laptop) agera kuri ane ari imbere yabo, insinga ziha cometse agakayi kamwe k'agakarine ,inyuma hariho amacupa y'amazi y'inyange ateretse ku meza.

Ahantu hari irangi rimwe ry'umweru, harimo n'ubururu imbere, bwanditseho amagambo y'umuhondo ndetse hirya hariho utuntu dushushanyije dutandatu, tugaragaza amaradiyo cyangwa se amateleviziyo amwe, harimo ayo dusanzwe tuzi nka radiyo Rwanda cyangwa radiyo furashi, munsi harimo n'andi menshi atandukanye.

Mu ibara ry'ubururu harimo hagaragaramo amagambo menshi cyane cyane ay'umweru, hejuru handitseho irembo hepfo handitse serivisi byakorewe ku rubuga irembo doti gove munsi kandi hariho uko iyo serivisi ikoreshwa, hepfo cyane hariho ukeneye ubufasha aho wahamagara nimero cyangwa se ukajya kuri emeri yabo, hirya kandi hariho n'urubuga rwabo.

Ahantu hamwe h'umweru, hariho amabara y'ubururu atandukanye n'ahanditse amagambo avunga ngo irembo, ruguru hakaba hariho akantu k'agakubo kerekana ko ushobora gusubira inyuma n'ahandi hari diteyiri zitandukanye, munsi hari aho abantu basacingira n'ahandi handitse ngo viziti.

Uruzitiro rumwe rw'ibyuma rukaba rurimo ipoto rihagaze ry'umutuku n'umweru n'amarangi, hakaba harimo n'ibindi bintu bihagazemo by'ubururu hasi h'umukara ndetse n'ibindi by'umweru, hariho akapa rero kariho ibintu byinshi bitandukanye, hariho utuntu tw'ubururu, ak'umutuku ndetse n'ahantu herekana inzira ihajya hakaba hari n'ibyatsi n'amazu ahakikije.

Abagabo birindwi bose hamwe bicaye ku gasima bambaye amapantaro, batatu muribo bafite laputopu za mashine mu ntoki bari gukoresha, abandi bane bafite telefone za gatushe bari kurebamo banakandaho. Umwe akaba akaboko ke k'iburyo ke gafashe ku munwa ndetse undi yambaye ingofero ya pinki irimo akantu k'ubururu

Icyapa kiriho amabara abiri ariyo icyatsi n'ubururu, hakaba handikishijweho amagambo y'umweru, munsi haririmo udufoto dutandukanye hari akariho ibiganza bibiri abantu bafite amafaranga mu ntoki bayaherekanya, ndetse akari hirya kandi kariho ikarita ndetse n'aho bayikoza kandi hariho munsi akantu k'icyatsi kerekana ko byemeye.

Uru rumwe rw'umweru ru ikirangantego cy'u Rwanda mu ibara ry'icyatsi imbere hakaba harimo agaseke ishaka ndetse n'ingabo ku mpande iruhande rwabo hakaba hanitse amagambo mu ibara ry'ubururu no munsi hakabonetseho amasaha y'akazi mashya ndetse munsi hakaba hari amatangazo n'ingingo zitandukanye zigera kuri eshatu kuko harimo utudomo dutatu mu magambo y'umukara.

Urupapuro rumwe rw'umweru ruriho amagambo menshi atandukanye, hejuru hari akantu k'ubururu kerekana uko wakjiramo sisiteme, ndetse hirya hariho akadarapo k'u Rwanda n'akandi ka mu Bwongereza, hepfo kandi hakaba hariho icyapa cyerekana rura ndetse no munsi hakaba hari andi magambo avuga ngo wota and saniteshoni.

Terefone imwe yinjiye muri apulikasiyo yiganjemo ibara ry'ubururu yanditseho amagambo atandukanye, ay'umukara y'ubururu n'ay'umuhondo, hirya hari akantu ka pulasi ku ruhande rw'iburyo ndetse munsi harimo uduhugu tw'utudarapo tw'u Rwanda ndetse n'ak'u Bwongereza.

Umuryango ufite ibara rya beje, uriho icyapa cyanditseho beka yacu, hirya hari ahanditse irembo ndetse na serivise zatangirwa, umuhanda wa kaburimbo uriho amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara, hepfo hari imodoka y'umweru.

Cy'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye ay'umweru ndetse n'ay'umuhondo, kiriho amafoto atandatu arimo uduce dutambitse, ndetse hariho n'abana bicaye baseka bicaye mu ishuri, hariho n'ahandi hariho inyubako z'ama etaje munsi hari imihanda, ku ruhande kandi hari uwambaye ga afite inshinge mu ntoki, hari hejuru ahanditse amagambo ndetse ruguru yaho hari ahari indege mu kirere.

Urupapuro rumwe rw'umweru hejuru hariho irangi risa nk'aho ari rya oranje, imbere harimo amagambo yanditseho hari ayandikishije ibara ry'umuhondo ariandikisha ibara ry'umweru, mu ibara ry'umuhondo handitseho si emayi ndetse hirya hakaba handitseho onirayini savisi, hirya na none hari akazu k'umukara karimo uturongo dutatu tw'umweru, munsi hari n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Urugi rumwe rukinze ruri mu ibara rya beje runakingishije ingufuri, hamanitseho akapa k'umuhondo hagaragaza ko ari emutiyene kuko munsi mu kazu kanditsemo, hejuru handitseho andi magambo mu ibara ry'umukara, hakaba handitseho ndetse n'andi avuga ngo bipiyara igaragaza ko ari banke popileri ofu Rwanda, hirya umumama uhicaye yambaye ikanzu y'umukara hagaragara ikirenge cye n'akaguru, ndetse hakaba hari n'amasikariye azamuka ajya hejuru.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo, ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hariho akantu k'akaziga k'umuhondo k'imbere karimo akabazo, munsi harimo udufureshi dutatu twerekana terebye ndetse cyangwa se ikintu cyakosowe, hari amagambo ku mpande atandukanye munsi hari utwapa twinshi hari aho bahamagara fesibuki n'akandi kapa ka Rwanda reveniyu otoriti.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imyeru n'indi iticayeho umuntu yegeranye n'insinga, umwe akaba yambaye ingofero y'umweru ndetse n'umupira w'ingofero w'umukara, undi akaba yambaye uw'icyatsi uri kureba muri terefone, imbere yabo hamanitse ibipapuro byinshi bifite utuntu tudufashe by'umweru n'iby'ubururu.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, handitseho amagambo y'umweru munsi hakaba harimo akantu k'umuhondo ishushanyije intebe y'umukara ikunda kwicarwaho n'abantu mubiro, munsi hariho ahantu hariho akapa ka sikaningi kode, ndetse hepfo hakaba hariho Rwanda reveni Otoriti, n'ikirangantego cyayo.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo menshi abanjirijwe n'akanyenyeri ayo hejuru ndetse n'umwaka, hasi hariho akandi k'icyatsi kanditseho amagambo avuga ngo apurikasheni are openi ndetse na mikorofone isa nkaho iri kurangurura, hepfo cyane hariho utwapa dutandukanye, hariho idarapo ry'u Rwanda n'irindi bishamikiranye ndetse hirya hariho andi magambo avuga ngo Rura.

Umu mama wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ishati y'umuhondo irimo utubara tw'ututunyeri tw'umukara imbere ye hakaba hari akameza gafasheho icyapa kiri no hejuru hariho ibara ry'ubururu kuruhande rwe hariho n'akandi kazu gafite ibara ry'umutuku niry'umuhondo herekana ko hatangirwa serivisi za eyateri ndetse n'iza emutiyene.

Icyapa cy'umweru kimanitse ahantu ku byuma by'umweru ahantu hasa nkaho ari amashanyarazi, ipoto imbere harimo umuntumba umupira w'umutuku ipantaro y'ubururu, ndetse hakaba hariho abantu cyerekana ko umuntu atemerewe kwinjira aha hantu cyangwa se kunywa itabi, n'akandi kerekana ko umuntu agomba gukurikiza amabwiriza munsi kandi ha uko umuntu wemere kuhinjira aba agomba kuba yambaye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho zifite utuntu tw'umukara ndetse zikaba zisize verine, imbere yabo hateretse ameza ariho amamashini atandukanye ya laputopu buri wese imbere ye hari imwe, hari abambaye imipira y'umukara iriho amagambo y'umweru, hari n'abambaye iy'umweru iriho amagambo y'umutuku umwe muribo akaba yambaye n'ingofero ,hirya hariho amavaze arimo indabyo n'inzu iri ku ruhande mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kirimo abagabo babiri umwe yicaye ku ntebe, imbereye ku meza hateretseho mashini ifotora ndetse na raputopu, n'ingofero y'ubururu n'undi umuhagaze iruhande wambaye umupira w'umweru, ndetse ufite n'ingofero n'umupira mu ntoki, wambaye nundi mu mutwe.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo menshi atandukanye y'umukara ndetse n'utundi twapa tune twerekana rwanda reveni otoriti ikigo cy'imisoro n'amahoro, hariho n'utundi tuntu tubiri turimo amagambo y'umweru, ndetse munsi hariho n'akandi k'umukara kameze nk'agafureshe.

ibara ry'ubururu cyane ryiganjemo amagambo y'umwiru hejuru akaba yanditseho ibirembo bigaragaza kandi nka application imwe hepfo handitseho amagambo avan savis on irembo govel platfom help hari n'andi atandukanye cyane cyane munsi ye harimo y'ubururu agaragaza ko ushobora kbanwandikira kuri whatsapp na numero ku ruhande cyangwa se kohereza ubutumwa kuri e mail yabo n' numu ushobora guhamagara hirya harimo n'urubuga rwabo

Ibara ry'ubururu cyane risa nkaho bari kwamamazaho, hariho akaziga cyane kariho akantu k'umuhondo karimo amatariki, munsi hari amagambo y'umuhondo, ay'umweru, ay'umukara. Hakaba hashushanyije inzu cyane hepfo ya kadasitire, irimo amadirishya akikijwe n'ibiti birebire.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hakaba hari imeza ziriho amamashini n'ibintu bazicometseho, hirya hariho utubati turimo ibitabo byinshi, hakaba hari n'abahagaze babifite mu ntoki bari gusoma, inyuma yabo hari amarido.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo menshi cyane hari n'akandi kavuga ngo irembo hirya hakaba handitseho ngo byikorere hasi arahavuga ngo sitepu tu harimo umugabo ushushanije wambaye umupira w'ubururu wa runiga agaboko ke k'iburyo gafashe telefoni mu ntoki atuma umusozi atunzeho urutoki.

Ibiti binini cyane bipanze aho ku murongo bicucitse harimo ni birebire cyane ipoto ry'amashanyarazi ziriho insinga zigiye zitandukanye hari zizigiye ibumoso iburyo amajyaruguru n'amajyepfo urukuta ruri araho ngaho rw'utubuye duto dutoya ndetse n'itara rimurika mu muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo abamotari ndetse n'imodoka z'umweru, abanyamaguru bari kugenda bacicikana. Umutaka wa MTN, inzu itaruzura ya etaje, amapoto ariho amashanyarazi, ndetse n'indi nzu iriho irangi rya beje.

Inzu isa naho itaruzura iri kubakwa y'udutafari dutoya, turi mu mabara y'umuhondo hasi hakaba utujya gusa umukara. Hejuru hariyo ipoto rinini cyane ririho insinga z'amashanyarazi menshi ndetse hakaba hari n'iz'umukara, ku ruhande rwo hepfo hariho amabati asa umutuku.

Urukuta rumwe rw'utubuye dutoya hejuru rero hakaba hari ibiti birukikije ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ku mpande, ahariho insinga zigiye zitandukanye hariho n'izifite amatara ndetse hakaba hepfo hari ibindi biti byinshi bigufi, hari n'ahari ibyatsi munsi y'akayira.

Udufuka duteyemo uduti duto tw'imikindo dusa n'uturi ahantu twinshi kuruhande hari ibyatsi birimo ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi, igiti kinini gifite amababi ibyatsi biri kuruhande bisa nkaho ari igihuru, agahanda kanyura hagati gatandukanye iryo poto n'ubwo busitani n'ishyamba riri ku ruhande.

Ipoto iriho insinga hari izigiye iburyo ibumoso iziri inyuma n'imbere hakab hariho n'izindi ziziritse z'umukara nyinshi zimanuyeho zitarereta, hirya kandi hari ibiti hari ahantu hari n'imiyenzi ndetse hano hino hakaba hari n'ikindi kintu cy'umukara ku ipoto hejuru.

Igikuta kimwe cy'urupangu gifite ubusitani, inyuma yacyo harimo indabyo z'amabara y'umuhondo ndetse n'ibyatsi biri ku ruhande, ahantu hapavomye, akayira k'abanyamaguru nk'aho ari muri kaburimbo, ipoto riteyemo aho agati, ririho insinga z'amashanyarazi agiye anyuranyuranyamo, hari n'izindi ziziritse ziriho anagana hejuru, itara rimurikira abanyamuhanda, ibiti biteye hirya ku ruhande.

Umuhanda wi'gitaka uhagazemo umuntu wambaye umupira w'ubururu n' ipantaro y'umukara, uriho amapoto ariho insinga zitandukanye ziriho amashanyarazi, ndetse munsi hariyo indabyo nyinshi, hariho n'urutoki hirya harimo inzu y'amategura.

Amatara menshi ari ku muhanda agera kuri atanu, Ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zitandukanye izijya ibumoso, iburyo izigaruka hino ndetse n'indabo ziri munsi zifite amabara y'umuhondo n'ibiti biteye munsi yabyo, icyapa kiriho igisahane kiriho ibara ry'ubururu n'umweru.

Ipoto nini cyane ijyana insinga z'amashanyarazi nyinshi ziri ahantu mu byatsi biri hejuru y'inzu ifite amabati y'umutuku, hirya n'andi mazu menshi atandukanye ari ku muhanda, ibiti bihateye ndetse n'urutoki rw'insina hameze nk'ah'ubucuruzi hafite irangi ry'umweru hari n'ahamanitse anteni ya kanali.

Urugo rumwe rufite amagiriyaje y'umutuku ndetse n'udutafari tw'umweru ku gipangu cyarwo, inyuma hakaba hariho indabyo ziriho icyatsi, ibyatsi ku ruhande biteyemo ipoto ifite insinga z'amashanyarazi mu imbere muri icyo gipangu harimo inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'andi yashaje harimo n'igiti giteyemo gifashe urutsinga rumwe muri izo nsinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo umwe, ukiijwe n'utu buroke tw'umukara n'umweru, uteyemo ubusitani burimo agati kamwe hepfo hari n'ubundi ndetse n'ibyabyo zikikije urugo rurimo inzu ya etaje isize irange ry'umweru. Ipoto rinini cyane rihagazemo rifite n'ikintu cyerini kiri munsi hariho insinga z'amashanyarazi zitandukanye zigiye zinyuranyemo, ari iziri hejuru n'iziri hasi.

Hano hari imodoka ziri muri parikingi imodoka imwe y'umweru yegereye ipoto hano hafi irimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo imbere harimo ingofero y'umuhondo hirya ku modoka y'umutuku hejuru hariho urwego hirya yaho hari n'indi modoka y'mweruzo izo modoka zikaba zibaye enye hirya hirya cyane hari amazu asa nk'aho ari amashuri afite amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo inzira y'abanyamaguru iriho abagenzi babiri, uwambaye ipantaro y'umukara igikapu n'umupira w'umweru, uwambaye ijipo y'umuhondo agapira k'umukara n'ikoti ry'icyatsi ku rutugu na terefone, amatara ndetse n'insinga z'amashanyarazi hejuru urutoki.

Ibiti biriho insinga, hari izinyuranyemo, izijya iburyo ibumoso imbere n'inyuma ibiti biri kuruhande bikikije, hari ikiri hano hino no hirya, bifite amabara y'ibyatsi, hari insinga zindi zizirikanyije ziri kuri iryo poto zireretaho.

Inzu yumweru ifite ibirahuri by'ubururu imanitseho icyapa cyanditseho ayibi banke inyuma yaho hakaba hari irangi ry'ubururu iriho icupa ry'icyatsi imbere y'aho kandi hakaba hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi hirya hakaba hari ikindi cyapa.

Ubusitani bukikijwe n'indabo ndetse buteyemo ibiti hagatai n'utwapa duto twerekana ibyerekezo Ambulance ku ruhande ndetse n'inzu nziza cyane ikikijwe n'idarapo ry'u Rwanda isize amabara y'umuhondo ndetse n'ibirahure by'ubururu.

Icyumba kimwe gisizemo irangi ry'umweru gicanyemo n'amatara, harimo ibitanda bitandukanye, hakaba harimo n'ikiryamyeho umuntu wambaye umupira w'umutuku wiyoroshe ishuka y'umweru, hakaba hariho na serumu, ku ruhande hakaba hariho amarido ahagaze y'ubururu.

Uduhanda duto tubiri tunyuranyemo ndetse imodoka eshatu ziparitse aho, harimo ifite ibara ry'umutuku n'izindi ebyiri zifite ibara ry'ubururu, umumama wicaye ku kayira k'abanyamaguru hari utubuye dupavomye iruhande rwa hari terimusi n'ishakoshi, abantu hirya bari kwinjira hamwe mu gipangu hari utugiriyaje tw'umweru n'akazu gahari gafite amabara y'umutuku n'umweru.

Wicaye ku ntebe y'umukara hamwe n'undi mugabo umuhagaze iruhande bambaye amataburiya y'umweru, inyuma y'abo hari agatanda karyamyeho umuntu wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ibirahuri biri hirya mu madirishya afunguye n'ahandi imbere hari akabati kariho ingufuri n'impapuro ziri imbere y'abo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zimanuka ni zizamuka hirya yawo hari urukuta runini cyane rukikijwe n'indabo n'utuboroke tw'umukara n'umweru hepfo hamanitseho ibyapa byanditseho amagambo atandukanye mu imbere harimo inyubako irimo amabati y'ubururu ya etaje hepfo hakaba hari andi mabati adasize irange.

Inzu imwe ifite irange ry'umweru ryiganjemo ndetse n'akandi ka shokora hasi, amadirishya arimo ibirahure ari kugendaho umuntu ku ruhande hariho n'utuntu tw'ibyobo turiho utuntu tuhafunze twa buroke, ahantu hari igitaka ndetse ruguru hari indabyo hirya hari ahantu hasakaje amabati n'inkingi ziyafasha, harimo abantu benshi na kandagira ukarabe iraho mwibara ry'ubururu.

Ahantu hamwe hasakaye, hariho n'inkingi zifashe icyo gisenge, hirya hari ubusitani bw'ibyatsi n'uturabo duteye ku ruhande, harimo n'utw'umutuku, imbere cyane hariho inzu ifite amatafari hasi ndetse n'amabuye, hariho n'intebe ziri hanze aho, icyapa kimanitse ndetse n'ibirahure biri mu madirishya.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru , umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse na marinete, kuruhande rwe hariho umutako uhagaze, ugaragaza igishushanyo cy'umugore wikoreye agaseke ku mutwe, kuruhande hari agatako gafite akantu k'umuhondo.

Ifoto y'umuntu wambaye ikoti ry'ubururu na karuvati irimo akantu k'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, amarinete, umusatsi urimo imvi, hejuru hakaba hari akabara ka oranje kanditseho amagambo y'umukara avuga ngo wantedi foro jenosayidi, hepfo hariho n'andi magambo menshi mu ibara ry'ubururu n'akandi kari hasi k'akabara ka pinki.

Abantu bagera kuri batatu barimo umumama umwe wambaye rinete, umugabo wambaye ikositime nziza cyane y'ubururu mdetse na mikorofone mu ntoki ze, imbere ye hateretse icupa ry'amazi n'ameza manini cyane afite ibara rya shokora, inyuma kandi hariho ikirangantego cy'u Rwanda gikunze kirimo kirimo agacuma, ingabo ku ruhande, izuba hejuru, n'amagambo yanditse ku ruhande rwaho.

Abantu babiri umuzungu n'umwirabura bose bakaba bambaye linete uw'umwirabura akaba yambaye amapingu mu ntoki akaba yambaye ikoti ry'ubururu, karubvati y'ubururu n'ishati y'umweru n'umufashe yambaye isaaha, umukandara, ipantalo igiye gusa ubururu ndetse n'ishati iriho ikirangantego k'igihugu runaka.

Abagabo bane bicaye ku ntebe ndetse bambaye utuntu mu ijosi dufite amabara nk'ay'idarapa ry'urwanda bose bafite ibitabo imbere yabo ku meza, amwe hariho n'akantu gatera kashi kari kuruhande hirya hari abambaye imipira y'umweru cyangwa se amashati n'apanantaro y'umukara, n'amagare aparitse ku ruhande ku biti.

Abantu babiri n'abandi basore bicaye imbere yabo ari akantu gafite ibara risa umuhondo bakaba bambaye imipira y'umweru hariho n'ufite akantu gafite umutuku, hirya hakaba hariho utuntu tw'ubururu, umuhondo n'icyatsi ku myenda bambaye.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti cy'umutuku kiriho akantu k'umukara ndetse n’ akumweru hagati isa nk'a icy'aba nyamategeko ishati yo mu mabara ya karokaro karuvate ndetse akaba yogoshe afite n'amaso y'umweru.

Umugabo uhagaze wambaye karuvati nziza y'ubururu, ishati y'urumwe ndetse n'ikoti isa n'aho hari inifomu y'akazi, ku ikora hakaba hari utuntu tw'umutuku tubiri, wambaye ingofero y'icyatsi iriho n'akandi kaziga, rinete z'umukara, ikiganza cye cy'ibumoso kikaba gifashe ku gitamba cy'ubururu n'idarakora rimwe ry'igihugu runaka.

Abantu benshi bicaye ahantu mu byatsi abagabo, abagore, abasaza, abana ingeri zose zitandukanye nyayama hateye ibiti birebire bigufi hiryari inzu imbere ya iparitse moto kaba hari n'akantu gahagaze karekare imbere yaboho hari umugabo uhahagaze ndetse hari n'imeza yicayeho abantu imbere ku ntebe abafite ibitabo mu ntoki. Hakaba harimo n'abandi bane bafite imitako itandukanye irimo amabara menshi.

Abantu benshi benshi bahagaze inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'umukara avuga ngo inkiko gacaca, ubutabera bwunga, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru bose bakaba bari gukoma mu mashyi, harimo abamama n'abagore hirya hakaba hateye igiti cyane kirekire.

Ari kugaragaza umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu akaba ari gufunga amapingu uwo mugabo umuhagaze imbere wambaye linete ndetse n'umupira wimbeho usa beje, inyuma yabo rero hari undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu mu imbere ndetse n'ikoti ry'umukara inyuma n'ingofero y'umukara n'umumama ubahagaze iruhande uri kureba.

Abagabo n'abagore benshi bambaye imyenda isa harimo uwambaye iy'umukara abandi bakaba bambaye iy'umutuku, umukara, n'umweru. Harimo n'abadamu babiri bambaye rinete, hakaba harimo n'abandi benshi bambaye ingofero z'umukara ziriho n'utuntu tw'umutuku.

Abagabo babiri n'abagore babiri bicaye imbere ya televiziyo imanitse ku gikuta, imbere yabo hakaba hari ameza manini akikijwe n'amadarapo agera kuri arindwi y'u Rwanda, ibumoso bwabo hakaba hari abagore n'abagabo bambaye imyenda y'umukara iciyemo ibara ry'umutuku n'ibumoso bikaba ari uko.

Abantu benshi bicaye hirya ahantu hatabona wambaye imyenda isa, hakaba hari n'undi uhahagaze wambaye umwenda w'umweru hejuru ufite na kamera, imbere yabo hari imeza iriho mikorofoni ebyiri, hari uwunamye hejuru ndetse n'umuhagaze inyuma n'intebe y'umukara umumama wicaye ambaye ikintu cy'umutuku inyuma, akantu k'umweru mo imbere, n'ak'umukara n'ingofero y'umukara ufite bike uri gusinya ku mpapuro.

Umugore wambaye ikintu cy'umutuku inyuma ishati ya pinki, akantu k'umweru mu ijosi ndetse na karuvati y'umukara, ifite ubwanwa busa nk'uburimo imvi uri kumwenyura wambaye rinete z'umukara, ingofero y'umukara irimo n'utundi tuntu tw'umuhondo tubiri dutambitse.

Umuhanda wa kaburimbo uteyemo ubusitani muri wo, hariho utuburoke tw'umukara n'umweru, ku ruhande ku nzira y'abanyamaguru. Na ruhurura iriho amaburoke hejuru, umuntu ufite utubido harimo kamwe k'umweru, imodoka iparitse munsi y'inzu ya etaje nziza imbere yaho hari n'igiti.

Bigaragara aho inyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro iri kuzimywa, ku ruhande rw'ibumoso hariho amazi ari guturuka ajya muri uwo muriro kugira ubashe kuzima kandi aragaragara ko yari iri ahantu ku muhanda wa kaburimbo, kuko hano imbere turabona utuntu tw'umukara n'umweru tuba dukikije umuhanda wa kaburimbo.

Muri uwo muhanda turabona mo imodoka ifite purake raka magana abiri na cumi na gatandatu ikurikiwe n'indi y'mweru, inyuma hakaba hari umu motari wambaye kasike z'umuhondo ,nyuma cyane hakaba ari umunyonzi, ku ruhande rwo hepfo hari imodoka yanditseho polisi ndetse muri uwo muhanda harimo amatara akikijwe n'ibiti.

Umuhanda umwe wa kaburimbo ufite ibipande bibiri bitandukanye icyo iburyo n'icyo ibumoso, hagati yateyemo mu ubusitani iburyo hakaba arimo hagendamo imodoka ifite irangi ry'umukara hirya cyane hari ubusitani bw'icyatsi, hasi hateyemo ibyatsi harimo hagendemo umupolisi umwe uri kumwe n'undi muntu wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati ya pinki ku ruhande cyane hariho inzu ya etage ifite irangi rijya gusa shokora ni iry'umukara.

Icupa ry'umutuku umwe aryamitse ku gikuta rifite n'icyayi cy'umukara n'umugozi bihuza n'irindi riteretse ahantu ku makara y'umweru ryegereye urugi rufunze hakaba harimo amagambo menshi atandukanye hamwe hari hapakapa k'umukara ahandi hari y'ubururu magambo y'umutuku n'ay'umweru

Umuntu wambaye igisurubeti cy'ubururu bwijimye n'akandi kabara k'icyatsi kerurutse harimo n'umweru, uri munsi y'igiti asa nkuwafunguye amazi menshi cyane kuko aho ari kujya hasa umweru, hirya hari urukuta ruriho udutafari dutoya, imbere yabo hari inzu ifite irange ry'umweru n'akandi kumukara munsi, hejuru hakaba hariho ipoto rihahagaze.

Imodoka imwe iri kugaragaramo umugabo wicaye ndetse wambaye imyenda y'umukara. Ku ruhande rwe hakaba hahagaze umupolisi wambaye inifimu yabo, ingofero iriho akabara k'umweru k'inuma hepfo hakaba handitseho amagambo y'umweru avuga ngo "RWANDA POLICE", munsi yaho hakaba hariho nimero ku ruhande hariho akadarapo k'u Rwanda.

umuhanda w'akaburimbo ukikijwe n'utumodoka tw'umukara n'umweru, inzira y'abanyamaguru irikunyuraho n'abanyeshuri bagera kuri batatu n'abapolisi bahagaze bambaye inifomu n'ingoferu n'amakoti y'icyatsi arimo n'utubara dusa nka beje.

Wambaye igisarubeti cy'ubururu inyuma handitseho amagambo ahetse n'ikindi kintu gifite ibara ry'umuhondo kiriho amagambo y'ubururu, ufite n'igitaroshi kinini cyane kimurika mu ntoki, wipfutse mu maso n'ingofero y'umweru ifite ibintu bimurinda guhumeka ibyuka bibi

Abagabo benshi harimo n'umumama umwe bambaye ingofero zisa, hakaba hari n'abambaye imipira y'umweru ndetse hari n'abambaye iy'ubururu, bose bakaba bambaye amabaji mu majosi yabo, umumama akaba yakenyeye umukenyero w'ubururu ndetse bafite n'utudarapo tw'icyatsi n'umweru n'ubururu mu ntoki zabo.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze ahantu hamwe ndetse bambaye inkweto z'umukara benshi muri bo, babiri bakaba bambaye iza shokora n'undi wambaye iz'umweru, bahagaze bareba ahantu hamwe kandi bamwe muri bo bari guseka.

Perezida Poro kagame mu ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, abajepe inyuma ye bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero, akaba afashe ku cyuma gitangira aho abantu batagomba kurenga kugira ngo bamugeraho bifite amabara y'umweru n'umukara, hirya hakaba hari amahema ahakikije afite inkingoi z'umweru, akaba afite utudarapo twa efuperi n'ibiti inyuma.

Abantu bagera kuri batandatu bose bafite amabara atandukanye buri wese ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ku idarapo ry'uRwanda ndetse ikindi kiganza cy'ubururu yakizamuye hakaba harimo n'abandi babiri bambaye amarinete.

Inyubako nyinshi z'ama etaje ndetse zifite amabara y'ubururu n'umweru yiganje, munsi hakaba harimo n'ahandi hateye ubusitani, hariho indabyo indende, ingufi ndetse n'ibyatsi, hariho n'ipoto, Ku ruhande hano hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo y'umukara, haciye haciyeho uturongo ku ruhande rwo hirya hariho igihe, hari ahanditse kabiri n'ahanditse gatatu, kane

Harimo n'abagabo babiri bahagaze imbere y'icyapa gisa nk'icyamamaza umukandida ufite mikoro mu ntoki, ifite n'imishumi kuri iyo mikoro, akaba yambaye ishati y'umweru ifite n'udupensu, ndetse n'umuriro ubona ko yambaye rinete n'ishati ya karokaro n'ipantaro y'ubururu, mu bamama hakaba hari uwambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, hari n'uwambaye iy'ubururu n'ishati irimo utubara.

Perezida Paul Kagame mu mupira w'umweru n'ipantaro y'umukara akikijwe n'abantu benshi bambaye imyenda y'umukara ndetse hirya hari n'abamananitse amadarapa ya FPR menshi.

Ikiganza cy'umuntu wambaye agakomo k'umukara, harimo n'utwuma, gifashe urupapuro rw'umweru mu ntoki rwanditseho amagambo y'umukara n'ay'ubururu, hariho amafoto atatu y'abagabo batatu ndetse harimo n'ibindi bishushanyo bitandukanye, umwe muri bo yambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'umukara n'ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu gusa ndetse undi yambaye rinete, ishati y'ubururu na karuvati y'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara n'umukobwa wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara bafite udupapuro mu ntoki barigushyira aho bashyira impapuro z'itora ahantu hari itapi bahagaze, inyuma yabo hari indabyo ndetse n'utuntu tumanitse tw'udutako.

Umumama uhagaze wazamuye ikiganza cy'iburyo, wambaye rinete, imbere ye hari mikofone ufashe ku idarapo ry'u Rwanda ririmo izuba, wambaye umupira w'umweru, ishanete y'umweru n'umukenyero.

Ahantu hari amapave, hahagaze abagabo benshi n'abagore mu ngeri zitandukanye batonze imirongo. Inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire ni'ibigufi n'ipoto rihahagaze cyangwa se itara rimurika. Hano kuruhande hari ahantu hari inkingi ifashe kugisenge cy'amabati.

Perezida Paul Kagame wambaye umupira w'umukara ufite akadarapo ka efuperi ku ijosi, ndetse n'ingofero y'umukara na rinete afite mu ntoki mikoro ndetse nyuma ye hahagaze ushinzwe umutekano n'abaturage bicaye mu ihema riri inyuma ririho idarapo rya efuperi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ifite udupesu tw'umukara, ufite mikorofone mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hahagaze abandi bagabo babiri, bambaye amakositime ndetse harimo utujire tw'umukara ndetse n'amashati y'umweru, hakaba hari n'irindi bara rya oranje n'icyatsi, imodoka iparitse ahongaho hafi.

Umugabo ahahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu cyanditseho ikirangantego cy'u Rwanda, yambaye ishati y'umweru ndetse na rinete z'umukara, ishati ikaba irimo udupesu, afite mikorofone iriho akabara k'umuhondo mu ntoki mu kiganza cy'iburyo.

Abagabo babiri bose bambaye amakositime y'ubururu, harimo uwambaye ishati y'umweru n'uwambaye iy'umukara n'amakaruvati atandukanye. Inyuma yabo hari imeza ndetse n'umumama wicaye ku ntebe y'umukara wambaye rinete, wambaye n'ishati y'umweru wifashanyije ibiganza byombi.

Abagore n'abagabo benshi bari mu cyumba kimwe gikorerwamo inama, hirya ku gikuta hamanitse ikirangantego ki Rwanda, mu ibara ry'umukara amadarapo menshi ahagaze aho y'u Rwanda afasheho buri muntu ukuboko kumwe ndetse abagore benshi kuruhande rw'ibumoso n'abandi ku ruhande rw'iburyo harimo n'abagabo ,mu ntebe z'umutuku bicaye imbere yabo hari amaraputopu.

Abamama babiri bambaye imikenyero y'umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo ufite agatabo mu ntoki k'umweru wambaye n'ingofero, kandi bose bakaba bambaye linete, hariho n'undi ufite mikofone mu ntoki ze, inyuma ye hari ihema rihamanitse ry'umweru ririho amabara y'icyatsi n'umuhondo n'andi magambo menshi atandukanye.

Igikamyo cya Dayihatsu gifite irangi ry'ubururu gitangirijwe hejuru n'ibyuma, imbere yacyo hakaba haparitse igare ndetse n'imodoka yindi ifite igipine mo imbere, kiri hafi y'umuhanda w'abanyamaguru, hepfo hakaba hari n'indi modoka iri kuza, hepfo yaho hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodokadoka ya yutongo ifite amabara y'icyatsi n'umukara, hano ku ruhande hari aka moto kazwiho ko gatwara imizigo, imbere yako kandi hari igikamyo gifite ibara ry'ubururu n'umweru, ku hande hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Imodoka ya Ritco ifite irange ry'umweru, ubururu n'icyatsi na moto biri mu muhanda ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'indabo, inzira y'abanyamaguru ndetse na rigori, amazu y'ubucuruzi, abantu ndetse amatara n'amapoto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, iya kwasiteri ifite irange ry'umweru yanditesho amagambo y'umuhondo, indi modoka ifite irange ry'ubururu ifite n'amatara y'umutuku, moto ihetse umugenzi wambaye kasike y'umuhondo, inzira y'abanyamaguru irimo umugenzi, ibiti, insinga z'amashanyarazi hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo moto igare rihetse imizigo, irimo amajerekani imifuka y'imiceri ndetse n'indi y'umweru inzira y'abanyamaguru ku ruhande irimo abantu benshi batandukanye inzu z'ubucuruzi ziri ku mihande icyapa cyamamaza inzoga za henikeni ku ruhande kiririmo amagambo y'umutuku.

Uyu muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo akamoto gakunda kwikorera imizigo, n'anadi bamotari bahetsa abagenzi igikamyo, umuntu uhagaze muhanda hagati wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira wa orange, ibiti biri hepfo ku busitani, inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzu z'ubucuruzi ziri ku mpande n'iz'abantu batuyeho.

Imodoka eshatu ziparitse ahantu zose hamwe zifite amarange asa n'umutuku, hakaba hari n'utuntu twerekana ko aho hantu bahigira duparitse ahongaho, ruguru kandi hariyo ibihuru byinshi byinshi n'ibiti biteye hejuru yabyo, hirya hariyo n'agapoto kamwe gashobora kuba kariho insinga z'amashanyarazi cyangwa se ar'itara.

Ku muhanda wa kaburimbo umwe urimo imodoka harimo ibikamyo ndetse harimo n'igifite irangi ry'icyatsi kiri guturuka mu wundi muhanda, harimo abamotari, abanyonzi, ibinyabiziga bitandukanye cyane, inzira y'abanyamaguru, amapoto y'amatara ndetse n'ahandi hari n'insinga z'amashanyarazi n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ibinyabiziga byinshi bitandukanye, amagare na moto, harimo imodoka ziri kuza n'izigenda, hakaba harimo n'iya polisi ku ruhande rwo hepfo, n'igikamyo cya hoho mu ibara ry'umutuku kiri kuva hano kigenda, aho abanyamaguru bambukira muri zebura korosingi, hakaba hagezemo umunyonzi n'agafureshi kerekana amerekezo n'inzira y'abanyamaguru hano ku ruhande.

Mu ijoro umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zigenda abanyamaguru bawambuka amapoto ariho insinga z'amashanyarazi amatara ku muhanda awumurika ndetse n'amazu hirya yaka

Umuhanda wa kaburimbo uriho abanyamaguru bambukira muri zebura crossing, hagati hakaba harimo ubusitani buteyemo n'icyapa, hari kunyuramo imodoka irimo amabara atandukanye, yanditseho amagambo y'icyatsi n'umweru ndetse ruguru yaho hakaba hari amatara n'ibiti birebire.

Ikamyo ya Hoho y'umutuku iri mu muhanda hagati wa kaburimbo, hepfo hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hirya yaho gato hari ahantu hazitije ikintu cy'icyatsi hateyemo n'ibiti, harimo n'abantu ndetse harimo n'amabara y'umuhondo, hano hino hari borodire n'inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka ndetse hirya yaho hari n'imodoka za kwasiteri z'umweru hari inzira ya yabanyamaguru isa n'wasenyutse ho gato ihagazeho umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati isa na pinki hari nabari kwambuka wambaye ipantaro y'umukara umupira w'umuhondo urimo ubururu n'uwambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya kake n'akamoto k'ubururu gaditseho medeni Rwanda.

umuhanda wa kaburimbo uma ugendamo imodokaz cyane nka yotang ifite akarangi koumu hejuru no hasi k'umuhondo dikaritse umweru n'ibirahure iruhande rwayo hari umunyozi utwaye n'umuntu hepfo ahantu hakikijwe n'ibintu by'icyatsi iteyemo ibyatsimo imbere beti ndetse n'abantu bari hirya cyane mbere hano hari inzira abanyamaguru bakaruhurura rutobodire tu hejuru dukozwe muri bloke

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugendamo ikamyo imwe imfite irangi ry'umweru manitseho amashiting y'ubururu, inyuma harikamoto gasanzwe gatwara imizigo kazwi nka bashani kandi cyane nimero umuntu ashobora guhamagara inzira y'abanyamaguru k'uruhande n'ibiti biri imbere cyane.

Umuhanda wa kaburimbo umwe, afite n'ushamitseho w'itaka, urimo ugendamo amamoto, imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'abanyamaguru bari kugenda, harimo n'inzira y'abanyamaguru ku ruhande rwo hirya, amazu y'ubucuruzi afite amadirishya y'icyatsi n'amagiriyaje munsi y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, hirya hariyo inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba haritseyo munsi moto itariho umuntu, utuzu twinshi dutandukanye tw'amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'akandi kari hirya kariho udutafari, inyuma hakaba hari inyubako ndende ya etaje bari kubaka itaruzura ndetse hirya ku ruhande hariyo umuntu wambaye umupira w'umuhondo, uri kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo ikamyo nini ifite irangi ry'umweru, iriho na shitingi hejuru, hirya hakaba hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti ndetse birebire bikikije n'umuhanda, inzira y'abanyamaguru ku ruhande, ruhurura n'utuborodire turiho hejuru twa boroke aho ahantu banyura bambuka ndetse hirya hakaba hariho n'izindi nzu z'umweru zifite amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo umwe urimo ugenda imodoka imwe na moto igenda ihetse umugenzi irimo shitingi yumukara numuntu uhicaye hejuru wambaye isarubeti y'ubururu ningofero y'umweru hirya harinzira yabanyamaguru irimo itara rimurika mumuhanda nibiti birinyuma yaryo harimo hagendamo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru kuruhande iriho abagenzi, abanyonzi bicaye ku magare. Igare riparitse kuru ruhande, ubusitani burimo icyapa, hirya hari itara ryo ku muhanda,...

Imodoka ebyiri zihagaze mu muhanda zegeranye, imwe ifite irangi ry'umweru n'ubururu, indi icyatsi n'umukara. Hejuru hari ipoto rifite insinga z'amashanyarazi ndetse hirya hari ishyamba ririmo ibiti binini n'ibigufi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo amakamyo atandukanye abiri, rimwe ifite irangi ry'umutuku ya hoho ndetse n'indi ifite irange ry'umuhondo, ihetse amamatera menshi ndetse n'amashitingi hejuru y'ubururu, ibiti hirya y'umuhanda ndetse n'inzira y'abanyamaguru na hino, akararo kari hagati mu nzira y'abanyamaguru na ruhurura.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ebyiri zifite amarangi y'umweru, moto ndetse n'uyicayeho wambaye kasike, hirya hari sitatiyo iriho amarangi, afite idarapo ry'u Rwanda ndetse hirya yaho hari amatara ahamanitse, ibiti, hino hari akazu ka Emutiyeni gahagazeho umuntu wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara n'andi mazu atandukanye y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ya Daihatsu ihetse imizi ifite irangi ry'umweru, iruhande rw'ibumoso n'urw'iburyo inzira y'abanyamaguru, amatara ndetse n'ibiti ku ruhande, umugenzi wambaye umupira w'umutuku ufite akantu k'ubururu mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo umwe harimo inzira y'abanyamaguru ikikijwe n'ibyuma, ukaba ufite iburyo n'ibumoso. Hagati muri wo hakaba hateyemo ibiti birebire, indabo z'umutuku izindi z'icyatsi ndetse n'ingufi muri zo. Hakaba hagendamo moto rero itwaye umugenzi, hirya yaho kandi hakaba hateye ibindi biti byinshi ahariho amapoto y'amatara bitanga urumuri.

Umuhanda wa kaburimbo umwe urimo ugendamo imodoka y'ikamyo yitwa hoho hakaba hari n'inzira y'abanyamagaru ku mpande zombi iburyo n'ibumoso, mu buryo hakaba hariho ifoto ndetse n'itara ry'amashanyarazi ibiti kuruhande, iy'ibumoso harimo hagendamo abagenzi babiri n'uwambaye ijire ya emutiyeni n'agakapu k'umukara n'undi wambaye igisebeti cy'ubururu n'akantu mu mutwe.

Umuhanda wa kaburimbo umwe urimo ugaragaraho igicucu cy'umuntu ndetse na motari utwaye umugenzi wambaye kasike y'umutuku n'ijire y'abamotari, harimo imodoka isanzwe itwara abanyeshuri ifite akaba k'umuhondo nak'umweru, hirya hari icyapa kiriho akantu kerekana amajyaruguru n'amajyepfo mw'ibara ry'umutuku n'umweru, ibiti biteye aho kuruhande n'ipoto riteyemo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ifite irangi ry'umweru, ihetse umucanga, hirya ibiti birebire ndetse n'insinga z'amashanyarazi. Umunyonzi utwaye umugenzi ufite agafuka k'umweru mu ntoki, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru. Umunyonzi akaba yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara irimo uturungo tw'umweru ku ruhande.

Umuhanda ugendamo imodoka ya kwasiteri imwe yanditseho Kigali koci ndetse ikaba hasi hariho n'utundi tubara tw'umutuku n'umweru na purake mu ibara ry'umuhondo, iruhande rwayo hari umugabo ufite ibintu ari gucuruza mu ntoki bakunze kwita abazunguzayi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, kuruhande rwa hepfo hari undi mu mama wambaye ingofero uhetse n'umwana.

Umuhanda w'amabuye urimo inzira y'abanyamaguru ndetse nahoho bambukira zebura korosingi, akazu gafite ibara rya pinki gashushanyijeho umu mama ndetse n'amagambo y'ubururu, imodoka ifite irangi ry'ubururu n'umweru ya yurutongo ruguru hari inzu y'ibara rya orange, ndetse n'ikigega ruguru kandi hakaba hari n'indi nzu ndende y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ya kwasiteri nini cyane izwi nka yutongo, ifite amabara ane harimo ubururu, umweru, umuhondo n'icyatsi, hirya hariho itara rimurikira umuhanda mu ipoto ry'umweru, n'ibiti biri ku ruhande byinshi, umunyamaguru urimo ugenda mu nzira y'abanyamaguru hano iruhande rw'iburyo, wambaye ishati ya karokaro yiganjemo ubururu.

Umuhanda w'akaburimbo harimo imodoka zigenda, harimo itwaye indi ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru n'iyo itwaye akaba ari uko, iruhande rwaho hari inzira y'abanyamaguru na ruhurura n'utuborodire bashyizeho kugira ngo bajye bambuka n'indabyo ziri hino ya ruhurura.

Imodoka ebyiri za taxi voiture z'umweru, imwe ifitemo n'ibara rya orange, hagati mo imbere hari umugore wicaye mu mutaka wambaye ijile ya MTN, umutaka w'umutuku wa airtel, hirya hakaba hari n'undi mutaka usanzwe twitwikira n'icyuma gihagaze cy'umutuku, ndetse na bisi iruhande iri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka na moto, hagati muri wo hakaba hateyemo ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabo, hirya hakaba hari ibyapa byinshi bitandukanye, hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru irimo igendamo umunyamaguru wambaye umupira usa umuhondo.

Irangi ry'umweru n'iry'umukara hejuru ikaba isakaye, kuruhande hariho inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti kuhande byi'cyatsi, inyuma hakaba hari umumotari n'izindi modoka ziri kugenda mumuhanda, hirya ha akaba hari ibara ry'icyatsi ndetse na anteni y Kanari n'ipoto.

Kwaiteri kinini cyane kirimu ibara ry'umweru ndetse hirya imbere yaho hakaba hari n'indi iri mu ibara ry'ubururu tuzi cyane itwa nka yutongo iparitse ahantu mu mapavu yapamoye ku ruhande hari andi ateretseho akazu kari mu ibara rya pinki yanditseho amagambo y'ubururu n'ikiganza cy'umuntu udutoki tubiri.

Utumoto dutoya dukunda gutwara imizigo, harimo utw'ubururu ndetse n'akandi k'umweru tugera ku icyenda; duparitse ahantu ku mapave yegereye ruhurura, imbere yaho hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, hirya hakaba hari icyapa ndetse n'abantu bahagaze n'inyuma yaho hari umuntu uhagaze n'imodoka ihaparitse y'irangi ry'umweru.

Ikamyo ifite irange ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo yanditseho amagambo y'ubururu, iri iruhande rw'umuntu wambaye imyenda ijya gusa ubururu wikoreye umufuka w'umweru, hirya hakaba hari undi wamanukaga wambaye imyenda y'umuhondo, hakaba hari n'ipoto ku ruhande ndetse n'ibiti hirya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zigera kuri eshatu, harimo n'ifite ibara ry'umukara, abamotari ndetse n'umunyonzi uhetse umugenzi inzira y'abanyamaguru uhagaze kuri borodire ufite ibisheke mundobo, n'igitambaro kimwe mu mutwe n'indabo ziri ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwawe n'umugenzi, hagati muri ho hari ubusitani bw'indabo ngufi ndetse n'ibiti biteyemo birebire byinshi, hirya hari ibyuma bitangira abanyamaguru ngo batajya mu muhanda ndetse hari n'inzirayabamaguru, ibiti munsi y'umuhanda byinshi ndetse n'amatara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo ikmayo y'umweru, n'utundi tubara tw'umutuku inyuma, ifite puraka rafa magana inani na mirongo itatu na gatandatu heci, n'igare riri ku ruhande hafi y'inzira y'abanyamaguru, imbere umunyenzi uri kugenda wambaye akantu karimo umutuku n'umukara, ndetse hari indi kamyo iparitse imbere ya fuso.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ya taxivatiri ifite irangi ry'umweru ndetse n'akabara k'umuhondo munsi, umutaka wa MTN hirya aho bacururiza amanite, inzira y'abanyamaguru irimo igendamo abantu bafite amasakoshi, ipoto ifite amashanyarazi ndetse icyapa kiri ku nzu yo hepfo cyerekana aho babetingira.

Imodoka ya kwasiteri ifite irange ry'umweru n'utuntu tubiri tw'umuhondo, harimo umuntu wambaye umupira w'umutuku n'umweru ndetse n'ikote ry'ubururu, hirya hari indi isa nayo iriho utugambo tw'umutuku ndetse n'ibirahure.

Umuhanda wa kaburimbo uraraho abanyamaguru bambukira muri zebura korosingi, hepfo hari amazu menshi afite irangi ry'umuhondo ndetse n'amatara yo hejuru ku mihanda, n'utundi tuntu duto tw'utubati twari mu ibara rya piki, amakwasteri aparitse aho ngaho mu ibara ry'ubururu n'umweru n'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda umwe wa kaburimbo wari urimo ugenderamo imodoka nini ya kwasiteri dukunze kwita yutongo, inyuma yaho hakaba hari na moto kuruhade hakaba hari n'ikindi kimodoka kinini cyane, hirya cyane hakaba hari ibiti biteyeho n'ahantu hazitije ikintu cy'icyatsi, hino hakaba hari borodire, nzira y'abanyamaguru irimo umugenzi wambaye imyenda y'umukara yiganjemo n'utuntu tw'umweru duke.

Umuhanda w'amapave hari hasi harimo nay'umutuku urimo ugendamo abantu urujya n'uruza ndetse hagati muriho hakaba harimo akazu gakoreshejwe utwuyuma tw'umukara n'ibiti biteye hagati ku mpande inzu z'ubucuruzi zimanitseho ibyapa bamamarizaho n'izindi zitandukanye amapoto y'umuriro n'amatara.

Ibyatsi biri ahantu hanini hirya kaba hari ibyapa bitandukanye byiganjemo ubururu n'umweru n'ibindi umweru n'amagambo y'umukara itara ryo ku muhanda ndetse n'inzu yubakishije amabati y'umukararya hakaba harimo inkingi z'umweru ndetse n'indi ifite amabati y'umweruru.

Umuhanda umwe wa kaburimbo ku ruhande hateyeho ubusitani burimo ibyatsi biteretsemo ipoto hakaba hari n'utwuma ku ruhande tuwukikije, hano hino hari n'undi urimo irange ry'icyatsi wanditsemo amagambo na nimero ku ruhande hariho utuburoke tw'umweru n'icyatsi turetare n'ubusitani buteye hirya burimo indabyo n'ipota rirerire n'imodoka ziparitse munsi gato muri parikingi.

Amapave asutseho utubuye dutoya twumweru inyuma hakaba hari jaride nziza irimo nindabo kuruhande hakaba haparitse moto ndetse nimodoka ifite irangi ry'umweru, inyuma yiyo korutire hakaba hari amatara ari kumuhanda ndetse nicyapa cyubururu hirya hakaba hari ibiti.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku inyuma kiri ahantu h'umweru ndetse mo imbere harimo umuhondo, harimo umuntu ufite igitiyo wajombye mu mucanga wambaye bote munsi bandikishijeho amagambo y'umweru yanditsiiho HK-PJT-KASESE.

Umuhanda umwe w'amabuye hariho amapoto hariho insinga z'amashanyarazi zerekeza mu ngo zikikije uwo muhanda, hariho insina mu bipangu bimwe na bimwe ndetse n'indabyo ziri hanze ku muhanda hepfo hari imodoka ihaparitse mu ibara ry'ubururu n'umwana uhagaze imbere y'icyapa gifite umuhondo, hano hakaba hari kandi ahantu herekana umuhanda nimero zawo.

Icyapa gifite akarongo k'ubururu inyuma ndetse hagati hakaba harimo n'ak'umweru, imbere na none kikaba gisa ubururu, harimo inyuguti ya p ihagazemo, muri iyo nyuguti hagati harimo akandi kantu k'ubururu kameze nka da, ndetse hose kikaba gisa ubururu hagati.

Ubusitani buri ahantu ku muhanda hariho ibiti birebire, ndetse n'ibigufi, ibyatsi ndetse n'icyuma kiriho icyapa cy'umutuku. Harimo udusumari tubiri, harimo n'akandi kabara k'umweru kandi wanditseho amagambo YIRIDI.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibiti biri k'uruhande rwabo bibakikije ndetse n'ubutani buteyema hagati burimo ibyatsi, hahagazemo icyapa kirimo utuntu tubiri tw'umutuku imbere harimo umweru n'akandi kapa kerekana icyerekezo, munsi harimo abantu babiri basa nk'aho bambukira hariho n'ufite agakoni ufashe undi ukuboko.

Icyapa cy'umweru kiriho uruziga rw'umutuku ruciyemo akarongo k'umutuku hashushanyijeho umuntu utwaye moto nayo ndetse munsi hariho imodoka ifite irange ry'umukara n'amatara y'umweru, munsi hari akandi kantu k'umutuku gashushanyijemo amagambo hejuru handitseho no moto veyikozi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragaraho aho abantu bambukira muri zebura korosingi n'utundi tuntu tw'umuhondo ku ruhande tuwukikije, ibyapa bibiri biri aho mu byatsi bihateretse hari icy'umweru kitiho amagambo y'umukara n'icya shokora kiriho amagambo umweru n'agafureshi kerekana ibumoso hirya hariyo ishyamba rinini ririmo ibiti bigufi n'birebire.

Haragaramo umuhanda wa kaburimbo urimo abantu batandukanye ukikijwe n'amatara ndetse n'insinga z'amashanyarazi ziri hejuru yawo ndetse n'icyapa kiwuranga, inyuma yawo gato hari imashini ikora umuhanda ihari ndetse hirya hari ishyamba basa nk'ahadakoze.

Icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti ya "p" munsi harimo bisi ishushanyishije ibara ry'umweru n'amadirishya nayo asa uko ndetse muriki cyapa hakaba harimo utunyuguti duto twa "a" ndetse n'utugambo duto twanditsemo "r".

Icyapa cy'umutuku, kiri ahantu hari irangi ry'umweru no mo imbere kakaba karimo, harimo udufuriehi dutatu twerekana amerekezo, tuzengurutse dukoze ishusho y'uruziga, harimo kamwe kerekana iburyo, akandi ibumoso, ndetse n'akandi karekana imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga nka moto, imodoka z'amabara atandukanye, umweru n'iy'umukara, amatara ku mihanda inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buhakikije, ruhurura irimo hagati y'igipangu n'inzira ndetse icyapa giteyemo kiriho udufureshi dutatu twerekana amerekezo.

Ibyapa bibiri biri mu mabara atandukanye, bihagaze ku giti kimwe, icyapa cy'ubururu munsi hariho akantu k'umweru, hari aho abanyamaguru bambakira munsi zebura korosingi, munsi ku cyapa cy'umutuku hariho agafureshi kerekana amerekezo yo hepfo n'aya ruguru, hirya hari ibiti birebire.

byeru ririho ikintu gifite utuntu dutatu tw'amabara atandukanye icyatsi shokorala umutuku hirya ha akaba handitsemo imibare ibiri kane kane kandi hirya y'akantu kameze nka kamera mbere hashushanyijeho nk'akatwa k'umu hariho imibare itatu n'andi magambo abiri y ivangwa rimwe kabiri gatatu nara fa

Umuhanda wa kaburimbo umwe ukikijwe n'ibiti binini n'ibitoya ku rupande n'ibyatsi, hakaba harimo igishushanyo hagati muri rompuwe gifite amafondasiyo y'umweru asize irangi ry'umweru ukikijwe n'utuburoke tw'umutuku n'umweru, ku ruruhande hari ibyuma bitatu hariho n'igiteyeho icyapa cy'umuhondo cyerekanaho udufureshi dutatu twerekana uko uwo umuhanda ukoze ugenda uzenguruka.

Icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo y'umweru, ndetse kirimo amabara y'umutuku, ari akaziga karimo igare rishushayije riciyemo akarongo, herekana ko bidakwiye kuhanyura, hirya harimo amagambo abisobanura mu ibara ry'umukara avuga ngo no sayikiringi, hepfo hariho ahantu harimo akaziga karimo kamera n'amagambo ari ku ruhande rwayo.

Inzu ya etaje nziza cyane ifite irange ry'umuhondo ndetse n'akandi k'umutuku gaciye ku mpande, iriho ibyapa byinshi bitandukanye bamamarizaho, ndetse hariho anteni ya kanari iri ku ruhande, ikigega cy'amazi kiri inyuma ndetse n'imodoka iparitse munsi yaho.

Umuhanda wa kaburimbo uriho amazu y'ubucuruzi atandukanye kumpande n'inzira y'abanyamaguru, aho hicaye abantu bambaye ibisurubeti by'ubururu benshi b'abagabo abandi bahagaze, inyuma hariho inzu ya etaje ifite irangi ry'umuhondo n'umukara munsi haparitse imodoka n'igare rihagazeho umuntu ku ruhande.

Ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibihuru ku ruhande, ibiti birebire, amazu ari mu mabara atandukanye hari amakasitere, hari ama etaje n'andi aciye bugufi afite amabati yarimo amabara y'umutuku, arimo amabara ya oranje, ay'icyatsi n'ay'ubururu ndetse n'andi asa nk'amazi, ku ruhande hariho etaje y'umweru.

Inzu ya etage iriho ibyapa bya kanali ndetse n'ibindi bimanitseho bamamarizaho munsi hari abamama babiri bambaye utujire twa emutiyeni n'undi mugabo umwe n'imodoka inyuma yabo.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Umuhanda w'amabuye umwe urigendamo moto ndetse n'imodoka, ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru na ruhurura, ndetse n'amazu yabo y'ubucuruzi n'ayo guturwamo, harimo amarangi atandukanye hari n'amabase ku muhanda, amapoto y'amashanyarazi hari insinga zi canamo amatara amurika mu muhanda ndetse n'abandi bantu bari kugenda.

Imodoka ebyiri zisanzwe zimanuka mu muhanda umwe w'itaka zifite amabara atandukanye, n'abamotari babiri baparitse aho ku ruhande, agakandagira ukareba mu ndobo y'umutuku, imbere ya botiki imwe, hirya ni umugenzi uri kuza ndetse n'undi mukobwa umuri imbere, nyuma hari ibiti umutaka wa emutiyeni n'andi mazu atandukanye afite amabara y'umutuku ku mabati.

Ahantu hari amakaro y'umweru ndetse n'utubati turimo ibintu byinshi bitandukanye by'amabara atandukanye natwo tuba dufite atandukanye harimo irya shokora n'akandi ku umweru, intebe ku ruhande yicayeho umuntu wambaye umupira wa orange n'ipantalo y'umukara, inkingi imuri iruhande y'umweru ndende ifashe kuri iyo nzu.

Umuhanda umwe wa kaburimbo kuruhande hari n'inzira y'abanyamaguru, ndetse hakaba haparitse muri parikingi imwe imodoka ya taxi voiture ifite plaque igaragaza imibare y'inyuma ibiri. Ndetse n'akandi kantu kinyuma kaka hejuru, nama esikaliye y'umukara, n'utugiriyaje tw'ubururu. Mu iduka ricuruza imyenda. Ibimaneke bimanitse, imyenda y'abakobwa, y'abahungu ndetse n'iyabaha.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo hambukiranyamo umuntu wambaye ipantaro y'ubururu y'ikoboyi n'umupira w'umukara ndetse n'igikapu ahetse mu mugongo urimo imodoka ebyiri z'imikara izindi ziparitse hirya munsi y'inzu igaragara nkaho ari y'ubucuruzi Iparitseho ibyapa ku rukuta, inzira y'abanyamaguru bambukiraho zebura korosingi ( zebra crossing).

Inzu y'umweru igeretse gatatu ya etage, ikaba yanditseho ko ari hoteri, munsi hakaba hariho ahanditse ko ari shopu, imbere yaho hakaba hari amapave aparitsemo imodoka y'umweru.

Igipangu kimwe giteyeho ubusitani munsi yacyo, ndetse n’indabyo. Igiti kiri ruguru kigandahaye, kinini cyane, ibindi biti biragikikije. Imodoka iri mu muhanda, amazu y’iryo santere atandukanye afite amabara menshi. Ipoto rihagaze, rifite insinga z’amashanyarazi zinyuranyemo.

Inzu ya etaje nziza ifite irange rijya gusa shokora ririho icyapa cy'ubururu hashushanyijeho umumama wamabaye umwenda w'umukara, cyanditseho amagabo n'utundi twapa turi hirya no hino kuri iyo nzu tw'umweru, munsi hari abantu benshi bahahagaze hari moto ipatitse n'amamodoka abiri ndetse hari n'igiti giteye ahongaho hagati.

Inzu nziza cyane isize irange ry'umweru ifite igikuta kiriho udutafati ndetse kijya gusa umuhondo inyuma yaho hari ibyatsi biteyemo ibiti birebire ndetse n'imbere hakaba harimo igiti cyane gifite ibara ry'icyatsi gisa nkaho ari icy'indimu.

Ahantu hari igice cy'umuhanda w'amabuye n'ikindi cy'umuhanda wa kaburimbo hari inzu nini cyane ya etage ndetse hakaba handitseho amalgam y'umweru avuga ngo welcome ca nandi yerekana ko supermarket amamodoka aparitse munsisaho mu mabara y'umukara nifite akabariro k'umutu nyuma y ibyapa bimanitse hejuru kandi amagambo y'umutuku byamamarizaho n'abantu bari hano hino bambaye utwenda tw'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo mugari urimo abamotari batatu, uw'ibumoso ndetse n'iburyo hakaba hari n'undi, hagati muri ho hakaba hateyemo ubusitani burimo ibiti birebire n'ibigufi, icyapa kimanitseho cy'icyatsi cyerekana kiriho iminsi mikuru ndetse kimanitse ku ipoto ry'umweru, inyuma kandi cyane hari imodoka iri mu ibara ry'umutuku n'aho abagenzi bambukira muri zebura korosingi n'ibiti ku mpande n'inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande ikikijwe n'utuboroke tw'umukara n'umweru, urimo ugendamo moto n'igare rihetse umugenzi, ibiti ku mpande hepfo byinshi, amapoto y'umiriro, amatara, igare riparitse hano ku ruhande, umugabo uhahagaze wambaye ikoti ry'umutuku n'ubusitani hano.

Umuhanda w'itaka uri mo imodoka ebyiri y'mweru n'iy'umukara munsi hari utwatsi duteyemo cyapa ndetse n'igiti, hirya hari igipangu cy'umukara gifite n'utubara tw'umuhondo hari n'inzu ya kadasiteri ifite amarangi y'umutuku ku mabati.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo moto nyinshi n'amamodoka harimo n'ifite irangi ry'umweru ,ni y'umukara, inzira y'abanyamaguru kuruhande hariho n'umugeni wambaye agapira k'umutuku ndetse n'akandi akenyeye ,hariho ndetse inzira y'abanyamaguru bambukiraho yitwa zebura korosingi (zebra crosing ) ibitebe biteye hirya ku ruhande ,amaferuje arimo ibara ry'icyatsi nirya oranje.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho inzira y'abanyamaguru ndetse n'ipoto rinini, hariho ibyatsi ndetse n'ibiti birebire n'ibigufi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo moto nyinshi n'imodoka, hagati hakaba harimo feruje, ruguru hakaba hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'andi atandukanye n'ibiti, hepfo hakaba hari ibiti biwukikije, hano hino hakaba ari inzira y'abanyamaguru irimo n'umugenzi.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, umwe uriho umumotari na moto, hagati yateyemo ubusitani, umuntu uri kwambuka muri zebura korosingi, hepfo hari abantu bahagaze ku muhanda, ndetse hari n'ibyapa byerekana aho irembo rikorera serivisi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi byiganjemo moto ndetse hagati muri hakaba harimo ubusitani buteyemo n' ibiti n'ibyatsi ,utuboroke tw' umukara n'umweru dukikije n'uturongo tw'umuhondo ibyapa bimanitse aho ku matara amurikira umuhanda n'ibiti biri hirya mu nzira.

Umuhanda kaburimbo urimo ugendamo imodoka harimo ifite ibara ry'ubururu umumotari udaheza umugenzi ufite imizigo, aho abagenzi bambukira muri zebura korosingi, hari gucamo abakobwa babiri bafite amasakoshi basutse bambaye amapantaro, inzira y'abanyamaguru na ropuwe iteretse iteretsemo ipoto rinini cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imihanda ibiri ifatanye hagati muriwo harimo akantu kameze nk'inzira y'abanyamaguru, muri zebura korosingi harimo umugenzi wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara. Ibikamyo ikiri mu muhanda w'ibumoso cy'umweru n'ikindi gipakiye amakaziye y'inzoga, harimo ay'icyatsi nay'ubururu kijya mu muhanda w'ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo urimogendamo moto itwaye umugenzi, umunyonzi ufite undi mugenzi ubusitani buri hagati muri bo burimo ipoto, ndetse n'itara hirya cyane hariho atariho insinga z'amashanyarazi ubusitani buri ku ruhande munsi yaho bya hano mu mwarimu ubundi nzira yanyumaga n'iyi hirya y'imigenderamo n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, moto, amagare, kumpande ukikijwe n'amatara y'ibyapa ndetse n'amapoto, hari indabyo ndetse n'ubusitani, abanyamaguru ku muhanda wabo banyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'undi wo hejuru bikikijwe n'amatara y'umuhondo ari kwaka, ubusitani ndetse n'icyapa cyerekana ko nta parikingi, ihari inzira y'abanyamaguru abagenzi, bari kwambuka, imodoka ndetse n'abamotari bacanye amatara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka izigenda n'iziza, irimo isize amabara y'umweru n'umukara ndetse n'amatara y'umutuku, uhagazemo umuntu wambaye inkweto z'umukara n'umweru, ipantaro n'ishati ya karokaro, inzira y'abanyamaguru, amapoto, amatara ndetse n'ubusitani n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo munini urimo ugendamo imodoka ama moto, abantu bagenda n'amaguru, ndetse hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru ku mpande, utuntu abantu bambukiraho twa zebura korosingi, ndetse hari rompuwe irimo igiti n'ahantu abantu bambukira herekana cya ferugi. Hirya hari sitasiyo cyane iriho ibara ry'ubururu n'icyapa cyanditseho pamu, icanye amatara n'akandi kazu kari kuruhande kariho ikigega cy'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibicucu by'abantu babiri bawuhagaze iruhande, harigenda n'imodoka y'umukara ndetse n'iri rimwe ry'umweru, umuntu uri ku ruhande ya yegereye akapa karimo utuntu twerekana udufureshi Yaba utumanuka n'utuzamuka, poritarita yaho ku ruhande iriho n'urutsindaga rw'amashanyarazi ibiti birebire bigera kurirwo ndetse n'inzirarya mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane ushamikiyeho n'indi hagati harihoho akantu dukunze kwita ropuwe karimo amapoto, ahandi harimo ibyapa, amatara ku muhanda ni inzira y'abagenzi ndetse n'indabo, ibiti bigufi ni birebire, hano hariho umugenzi wambaye umwenda w'ubururu n'ipantaro ijya gusa beje.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane, ukikijwe n'inzira z'abanyamaguru ku mpande zawo zose, kandi muri aho hagati hakaba hateyemo ubusitani n'amatara amurikira abanyamuhanda bari kugenda nijoro, ibiti biri hirya cyane binini, inzu nziza cyane ya etaje iri ku ruhande ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo n'inzira y'abanyamaguru bari kwambuka zebura korosingi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zigera kuri eshatu ndetse n'amoto, ipoto riri ku ruhande, ibiti byinshi bitandukanye, ibyatsi, urukuta rutangira igipangu, inzira y'abanyamaguru ndetse n'aho abanyamaguru bambukira muri zebura korosingi.

Umuhanda wa kaburimbo umwe afite n'uwo hejuru ufite inkingi eshatu ziwufasha barimo bagendamo imodoka y'umukara ndetse hirya hari n'indi itwara imizigo ifite shitingi y'ubururu. Ikamyo, amamoto n'amagare, inzira y'abanyamaguru kuhande, ibyatsi bikikije, ndetse n'ibiti hejuru, ndetse no hasi.